Ivuriro ryita ku babyeyi batwite n'abagiye kuboneza urubyaro n'abonsa. Iri vuriro rifasha ababyeyi mu kwita ku buzima bwabo, kugira ngo abana bari konsa n'abo bazabyara...

Uburyo bwo kubagamo umuntu kwa muganga, bakoresha bagiye kubaga umuntu. Bakamusuzuma, baba bafite ibikoresho bitandukanye bikora neza, kandi byihuta kugira babashe gutabara ubuzima bw'umuntu.

Isuzumiro ry'abarwayi, aho winjira bakakubaza ibimenyetso by'indwara urwaye, bakakwandika mu gitabo bakaguha n'imiti ikwiranye n'uburwayi urwaye, uburwayi bwawe bukabasha gukira.

Ivuriro ry'ibitaro riherereye mu Ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Ka Musanze .Ni ivuriro jya kijambere rigezweho rivura kanseri, rivura ingwara zitandukanye kandi bagira no kwakira aba abaje babagana neza.

Ivuriro ryiza cyane ryakira abarigana neza rikabafasha mu burwayi bwabo bakabaha imiti ikwiranye n'uburwayi barwaye ku giciro kiri hasi ku bufatanye na leta.

Umuti nyarwanda umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye, utuma uruhu rusa neza, urinda udukoko twinjira mu nzu, ni umuti mwiza.

Imiti gakondo ya kinyarwanda iboneka i Musanze ,uyu ni umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye indwara z'ubwihebe bwo kwigunga zifasha mu kuvura amatungo ,amatungo yagize ikibazo co co kugira ikibazo co mu nda iyo ubibigaburiye arakira.

Iki ni icyatsi cy'umuti gakondo, gifasha mu ku kuvura bitandukanye, kivura ingorora, kivura indwara zitandukanye, amatungo arakirisha akamererwa neza, ubuzima bugakomeza, kirakenewe cyane buzima bwa buri munsi.

Icyatsi cy'umuti nyarwanda kimwe mu byatsi by'imiti gakondo cyifashishwa mu kwirukana amasazi, kibazwamo n'uruzitiro rw'inzu, kivamo n'imiti y'amatungo.

Uyu ni umwe mu muti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ukiza imyate uvura n'ibicurane, iyo uwifashishije neza ukaba uwufite hafi n'iwawe indwara y'imyate uba uyirinze burundu.

Icyatsi cy'umuti gakondo kera ahantu mu butaka bufite amazi aba ari hafi n'ibiti, kera kiranda, kifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Umuti nyarwanda w'amababi y'amateke. Amababi y'amateke ni umuti mwiza, umuti gakondo ukoreshwa n'abavuzi ba gakondo mu kuvura indwara zitandukanye, ari iz'abantu ndetse n'iz'amatungo.

Kimwe mu byatsi gakondo by'umuti gakondo byifashishwa mu kuvura ukoresheje amababi yabyo n'imbuto bikavura indwara zigenda zitandukanye bifite uburenganzira.

Icyatsi cy'umuti gakondo umuti wa kinyarwanda, umuti ukoreshwa n'abavuzi gakondo babigenewe, uvura indwara zitandukanye ukaba hanyuma, no kuba umuti uba n'ikiribwa ku matungo.

Icyatsi cyo mu miti gakondo，uyu ni umuti gakondo wa kinyarwanda，uvura indwara zitandukanye，ugana umuganga gakondo akagufasha mu burwayi urwaye bugiye butandukanye， yifashishije iki cyatsi.

Umuti gakondo iki ni icyatsi cy'umuti gakondo gifasha mu buzima bwa buri munsi. Kivura indwara y'inkorora, gusarara. Ugikoresha mu mazi ni icyatsi kikuvura imitsi.

Icyatsi cyo mu muti gakondo , iki ni icyatsi cyifashishwa mu muco Nyarwanda , mu kuvura indwara zitandukanye . Cyifashishwa n'umuvuzi gakondo , kuvura amatungo yagize indwara zitandukanye.

Imiti gakondo itandukanye ifasha mu kuvura indwara zitandukanye, ikoreshwa n'abavuzi ba gakondo .Icyatsi cyitwa urusasa ni icyatsi cyiza cyane, gikoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye cyane ugakira.

Umwe mu miti gakondo icyatsi cy'imiti gakondo cyera kiranda cyera ahantu hafi n'umusozi ni icyatsi gifashishwa mu kuvura amatungo igihe afite uburwayi.